Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama baganira bishimye, umwe muri bo afite mudasobwa kandi afite n'icyo kunywa bakinywa bishimye.

Umunsi Mpuzamahanga w'umurimo uba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ngarukamwaka wizihiza abakozi batandukanye, harimo abaganga, abarimu, abafundi, n'abatwara ibinyabiziga bikora imihanda.

Inzu nziza z'ubuyobozi, inyuma yazo hari umunara muremure, imbere yazo hari ikibuga kirekire, hari n'ibikoresho bifubitswe na shitingi y'ubururu kugira ngo bigire umutekano.

Aho abunzi bari gukemura ibibazo by'abantu kandi buri muturage wese agataha anyuzwe asubijwe, babikemura neza bikagenda neza.

Ku rukiko iyo ugezeyo uhasanga abashinzwe guca imanza kandi baba bambaye imyenda ibaranga ntabwo ushobora kuyoba.

Inzu y'ubuyobozi yubatse neza hariho indabo, amakaro ariko hariho na kizimyamwoto, iyo nkongi y'umuriro ije babasha kuwuzimya byihuse ukazima.

Abantu benshi harimo perezida wa Repubulika, hagaragara ibendera ry'igihugu, hagaragara n'abayobozi bafatanije kuyobora.

Umuhanda unyuramo imodoka hari aho baparika, tuhasanga ibyapa byereka abantu aho bagomba kujya gusaba serivise, bakahagana bakayihabwa, hari icyapa cyerekana uruganda rw'icyayi na kongo nile.

Ku bigo bya Leta hari ibendera ry'igihugu, abantu b'urujya n'uruza baraza bagaparika imodoka, bagahabwa serivisi bashaka bakagenda.

Aha haparitse abamotari baba bategereje abakiriya ari urujya n'uruza, bambaye amajire n'amakasike,,,

Umujyi urimo, inzu ndende imbere yaho hari umuhanda urimo ibinyabiziga urujya n'uruza, hari naho baparika imodoka, inzu iriho n'aho kwivuriza.

Umuhanda munini ugaragaramo umunyonzi utwaye umuzigo, hakurya y'umuhanda hateye ibiti byiza birebire bitanga akayaga, hari n'ipoto y'itara ku muhanda.

Ahantu hateye ibiti bya kimeza hasa neza kandi hatuma imisozi idakundagurika, hagenda hagaragara n'akayaga keza.

Umuhanda ukoze neza utuma abantu batambuka neza ni ibiti by'imirwanyasuri bituma imisozi idakundagurika ibintu bikagenda neza abantu bakabaho neza.

Umuhanda munini ugabanijemo ibice bine. Imodoka zigenda n'izigaruka, umuhanda w'amagare n'uw'abanyamaguru baragenda urujya n'uruza, hakurya y'umuhanda hari inzu ndende n'ibidukikije.